Umurima murima ugaragara ko wasaruwemo ibigori ndetse hafi yuwo murima hari igiti barambitseho bigetseho ibitiritiri byibyo bigori byumye noneho hakaba n'ibyatsi bikiri bitoto byahameze mu murima uri hafi yuwo nguwo wezemo ibigori.

Igiti cy'imbuto za avoka, harimo amavoka menshi ndetse hegereranye n'ibindi bihingwa harimo nk'insina y'urutoki irimo guhinguka ndetse n'ibindi bihingwa tumenyereye tuzi nk'ibishayoti ku bantu babizi. Igiti kiba gifite amababi menshi, ndetse ni na kirekire ariko hasi ntabwo tubona aho imizi ite

Umuharuro cyangwa se inzira y'abanyamaguru, aho ica ku rugo rw'umuturage, mu imbere mu nzu mu ruzitiro harimo imishingirizo cyangwa se ibiti byo gushingirira imyaka. Ndetse iyo nzira iruhande rwayo hakaba hari indabo ndetse n'ibiti by'amavoka, mu nzira hakaba hariho n'amabuye manini.

Ishyamba riteyemo ibiti by'intusi dusanze twita ruturusu aribyo babazamo imbaho, ndetse n'amababi yabyo akavamo ibishagari bacanisha ndetse batwikisha n'amakara.

Umuhinzi uri mu murima w'inanasi, aho afite icyo ari gutwaramo inanasi. Ndetse akaba ari guca inanasi zeze akazishyira muri icyo kintu yazanye, iziteze akazirekera mu murima. Yambaye ibikoresho byabugenewe nk'isarubeti, ndetse n'ibikoresho byo kwambara mu ntoki yirinda kugira ngo atagira icyamwica cyangwa se kikamukomeretsa.

Imboga ziri mu gikoresho cyabugenewe gisa n'icyatsi, imboga tumenyereye kwitwa kwita imiteja tuzi nk'imiteja y'ibishyimbo, nyamara duteka nk'imboga. Ipanze ku murongo ari itambitse, iruhande rw'iburyo n'urw'ibumoso, hagati harimo indi bagiye barambikamo.

Umubyeyi ukenyeye igitenge yakigeje mu bituza，bimwe dusanzwe tuzi ko akenshi ababyeyi bikennyera bahetse abana，mu buryo babikenyeramo， akaba yikoreye umufuka， bisa n'aho urimo avuye nko kwahira， kuko ari guturuka mu murima urimo ibyatsi ndetse wegereye n'ishyamba.

Umurima w'ubuhinzi ukikijwe cyangwa se uzitijwe n'ibiti, ukaba uhinzwemo ibihingwa by'ubukungu tumenyereye dusanzwe tweza nk'ibireti.

Inkoko zikiri ntoya dusanzwe twita imishwi, iri mu kintu kimwe ndetse n'ibiganza by'umuntu usa n'aho arimo kuyitaho, cyangwa arimo kuyiterura ayikuramo cyangwa ayishyiramo, ndetse arimo no kuyitaho ndetse ibiganza by' umuntu bikaba byambaye ibikoresho byabugenewe, mu kugira ngo yirinde umwanda.